Iyamamaza ry'ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubwishingizi, bw'inzu kiri kwamamaza ibikorwa byacyo, hariho inzu iparitseho imbere yayo imodoka yo mu ibara ry'umuringa wijimye.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bw'ubuzima aho hari igikorwa remezo cy'umuhanda kiri kugenderwaho n'igikamyo ndetse n'igare bisa nk'ibigiye gukubitana ndetse basobanuye biramutse bikubitanye ubuzima bwmwe bwakangirika akeneye kuko ubwo bwishingizi bwo kumurengera mu gihe nk'icyo.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi kiri mu ibara ry'ubururu, umutuku kiho n'imbwa iba iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, munsi yaho hariyo igiti ku mpande zacyo n'urwego rwo kumanukiraho.

Icyapa cyamamaza ibikorwa by'ubwishingizi byanditswe mu ibara ry'icyatsi inyuguti r na wa kigaragaza yuko ariko icyo kigo gitanga izo serivisi z'ubwishingizi cyitwa.

Iyamamaza ry'inyubako igeretse inshuro eshanu, ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubwishingizi bw'ibintu ndetse n'abantu batandukanye.

Ubucuruzi bw'imyenda y'abari iri mo ibyo kwifubika ndetse n'amapantaro azinze, imbere hahagaze abari babiri uw'uruhu rwirabura n'uw'uruhu rwera, basa nk'abari guhererekanya agapfunyika ko mu ibara ry'umuhondo.

Inkweto zigeretswe mu tubati zisa nk'iziri gucuruzwa, inyuma yazo hari imyenda nayo imanitswe mu tubati munsi yayo, tubonaho udukapu tw'amabara y'umuhondo n'ubururu ndetse n'inkweto zifunze ebyiri z'abagabo.

Amapantalo azinzwe mu buryo yitegura kugurishwa, harimo ay' ibara ry'umukara, kaki ndetse n'amakoboyi y'ubururu, inyuma turahabona n'ibikoresho byo kubikamo bakunze kwita ibikapu ndetse n'iruhande rwabyo hari imipira yo hejuru iri m’ ibara ry'ubururu nayo imanitswe nk' igiye gucuruzwa.

Ubucuruzi bwiganjemo imipira yo hejuru bakorana imyitozo ngororamubiri, yambitswe icyo berekeniraho imyenda cyambaye ingofero y'umutuku, ndetse n'imyenda y'imyitozo y'ubururu. Iruhande hari amakoti nayo y'imbeho ari gucuruzwa.

Ikweto zifunguye zikozwe muburyo bw'intoki, zifiteho imitako igiye itandukanye, harimo icyatsi mumabara agize imitako, icyatsi, umuhondo, umutuku, umweru ndetse n’ ubururu.

Inkweto ziri gucuruzwa ziri mu tubati, inyinshi ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ubwoko bwa nike na adidasi, harimo n'iz'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru ebyiri.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo imyenda n'inkweto by'abagabo inkweto zigeretswe mu tuzu tw'utubati n'amakoti yambawe by'abagabo byipimirwamo, amakoti mu indani yayo harimo amashati.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Igikorwa remezo cy'inzu yanditseho amagambo yundayi bigaragaza y'uko ariho bacururiza ibinyabiziga by'imodoka ndetse biparitswe muri iyo nzu ibyo binyabiziga.

Ubucuruzi bw'ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka y'umuntu ku giti cye. Imodoka eshatu ziri mu mabara ubururu, umukara ndetse n'umweru. Imbere hahagaze abagabo batanu, bamwe bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka n'abandi.

Ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka kiri ku isoko ryo kugurishwa kiri mu bwoko bwa Yundayi Sonata yo muri bibiri na cumi nagatatu kiri kugurishwa amafaranga miliyoni icyenda gifite ibara ry'umuringa weruye.

Igurishwa ry'imodoka kuri miliyoni icumi ya otomatiki mu bwoko bwa bwi kiya yasohotse muri bibiri na cumi na kabiri, iri mu ibara ry'umuringa ariko wijimye yakije amatara yayo y'imbere.

Ubucuruzi bw'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka itanga serivisi z'ingendo rusange, ifite ibara ry'umweru imbere yayo hahagaze abagabo babiri bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka.

Igurishwa ry'ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka igurishwa n'ikigo cy'akagera motozi kigurisha imodoka, ni imodoka y'umukara imbere yayo hahagaze abagabo babiri b'amashati y'ubururu bweruye bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka.

Igurishwa ry'ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka ifite ibara ry'umuhondo ndetse imbere hari abagabo babiri bambaye ikoti, undi ishati bari guhererekanya urwo rufunguzo, iyo modoka n'iyikigo cyakagera motozi.

Ibinyabiziga bibiri by'ubwikorezi bw'ibicuruzwa bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo ,imbere yabyo hahagaze abagabo babiri bambaye ibyo hejuru by'umukara ,umwe yambaye inkweto z'umweru undi yambaye iz'umukara bari guhana urufunguzo rw'imodoka.

Umunara muremure w'umutuku n'umweru uriho ibikoresho byifashishwa mu itumanaho, wegeranye n'igiti cy'ibyuma by'amashanyarazi kiriho imigozi itwara amashanyarazi mu ngo z'abantu hakurya hari amazu asakaye.

Ibinyabiziga by'amabara ndetse n'ingeri zitandukanye, harimo ibisa ibara ry'umuringa bibiri harimo n'iby'umukara bibiri, ndetse kimwe cy'umukara gifunguwe inyuma mu bubiko busanzwe bw'ibinyabiziga by'umuntu ku giti cye.

Inoti y'amafaranga igihumbi ya kera ya banki nasiyonari (national ) yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda; n'amagambo munsi ngo ''itegeko rihana umuntu wese uzigana iyi noti'', iriho inka z'inyambo ebyiri ndetse ziri mu busitani bw'icyatsi.

Inoti nyinshi zizingiwe hamwe mu kenda k'ibara ry'ubururu bwerurutse, ndetse n'inoti z'amadolari zizingiwe mu kenda k'umweru, hamwe n'izindi noti z'amadolari zifashwe n'ibiganza biri kuzibara, imbere hariho igikoresho kifashishwa mu kubara imibare.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Ikorwa ry'amafaranga y'amadolari amenshi arimo ni amadolari ijana, ari kuva mu kuma k'umweru gafite utwinyo tubiri ndetse ari guhita yakirwa n'umugabo wambaye imyenda yo hejuru minini yo mu iba rya kaki.

Firigo ebyiri zirimo ububido bw'amata ya Mukamira imeza ku ruhande rwayo handitseho Mukamira, abakobwa babiri bambaye imipira yo mu ibara ry'ubururu, imeza iteretswe mu busitani hejuru y'iyo meza hariho ubukarito bw'amata.

Ibikonjesha bibiri kimwe kiririmo ubwoko bw'icyuma ikindi mu bwoko bwa pulasitiki byose bizwi ku izina rya teremosi bibikwamo ibyokunywa bitandukanye, nk'icyayi, amazi, cyangwa amata akomoka ku musaruro w'inka, ndetse iruhande turahabona ikibo kirimo ibyo kunywesha ayo matama.

Isahani y'umweru iriho amandazi amwe yaciwemo kabiri n'andi acyuzuye ari hafi kuribwa kuko yamaze gutekwa.

Ikirahuri kirimo amata ari wo mu umusaruro uva ku nka, giteretswe ku meza yambaye igitambaro cy'umweru ndetse gifitemo n'undi mwenda w'igitenge.

Intebe ebyiri ziri mu bwoko bw'icyuma, zifiteho imisego ndetse hagati yazo harimo ameza y'ibara ry'umweru biteretswe mu nzu icururizwamo ibiva ku nka nk'amata n'ibindi nka byo.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye bari gusangira ibyo kunywa by'ibara ry'umweru ari byo amata, mu nzu icururizwamo umusaruro uva ku nka ari wo amata, bicaye ku ntebe za parasitiki no ku meza y'imbaho.

Akabati kariho imineke hariho n'udupfunyika turimo ibiryo bitondekanye bigiye bigerekeranye akabati gafite ibara ry'umweru udupfunyika dufite ibara ry'amazi n'imineke y'umuhondo .

Ibyo kunywa bituruka ku musaruro w'inka biri mu bipfundikiwe mu tubido ndetse no mu ducupa no mu bikombe ndetse n'ibyo kunywa by'amazi biri mu macupa maremare abonerana yiganjemo ibara ry'ubururu.

Ubucuruzi bw'ibyo kunywa bituruka ku nka ari byo amata, biri gucururizwa ahantu hasizwe irangi ry'ubururu ndetse umwana n'umusore bategereje kwakirwa n'inkumi iri kuyabashirira mu kabido.

Isahani nini ndetse ndende, ziteretsweho ibirahuri biri gusukwamo amata nk'umusaruro uva ku nka, amata ari gusukwa n'umugore wambaye icyo hejuru cy'umukara ndetse ari kuyasuka yifashishije injerekani, ayasukira abo agiye kuyaha.

Inzu iri gutangirwamo serivisi zo kugaburira abantu hari abagore babiri ,umwe ari kugenera undi umureti n'igikombe cy'amata gikikijwe n'ibindi bikombe bibiri by'umukara.

Utubati tugiye turimo ibicuruzwa biva ku musaruro w'inka, biri mu tubido tumwe tugufi n'utundi tureture, ndetse n'ibibikwa mu bikombe ibindi bikabikwa mu dutunga tw'icyatsi ubururu ndetse n'icyatsi cyeruye hakaba hari n'ibibikwa mu byuma.

Abagabo bane babiri muri bo bari kureba muri terefone ngendanwa zabo basa nk'abari kureba apurikasiyo imwe, umwe yambaye icyo hejuru cy'ubururu undi yambaye ingofero y'umuhondo hirya yabo hari abandi nabo bunamye bambaye ikoti ry'ubururu umwe bweruye undi bwijimye.

Icyuma cy'umweru kiri gusohora amafaranga mu bwoko bw'amadorari, kiri gusohora inoti nyinshi. Gifite amenyo ariyo ayo madorari ari gusohoka, ahita aba ajya.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Inoti nyinshi zimwe zirikurwa, izindi zigeretse hejuru yazo, ibiganza bibiri by'abantu batandukanye biri guhererekanya inoti nyinshi z'amadolari ijana.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga y'inoti mu bwoko bw'amadolari, biri kuyahererekanya n'ibindi biyategereje nyuma y'ikirahuri kibatandukanya kugira ngo serivisi y'ivunjisha ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga ibeho.

Ibiganza by'inzobe bifashe amaYero ya mirongo itanu, inoti ni icumi ndetse munsi yazo hariho izindi noti harimo iz'amayero mirongo itanu nubundi ariko menshi inoti nyinshi noneho.

Inoti zirambuye cumi n'enye z'amayero magana atanu, bivuze ko ari ibihumbi birindwi by'ama ero birambuwe ku meza y'umweru.

Ikiganza kimwe kiri gutanga inoti enye z'amadolari ijana ari kwakirwa n'undi mugabo ayakirisha ibiganza bye bibiri.

Amadolari y'inoti ebyiri z'ijana zifashwe n'ibiganza bibiri aho buri kiganza gifite inoti imwe, bihagaze imbere y'icyapa cyanditsweho amagambo y'icyongereza asobanura ngo amafaranga y'amanyamahanga.

Inoti nyinshi z’amadolari ijana zifashwe n’ibiganza bibiri by’inzobe, izo noti ziri mu ibara ry’umweru ahanini, ariko ririho nandi mabara nk’icyatsi, umuhondo, ndetse n’umukara weruye.

Inoti nyinshi zo mu bwoko butandukanye harimo amayero ndetse n'amadorari inoti y'idorari ry'ijana iri hejuru y'inoti ya mirongo itanu y'amayero.

Inoti enye z'amafaranga y 'amatanzaniya iy'ibihumbi icumi, iy'ibihumbi bitanu, iy'ibihumbi bibiri, iy'igihumbi. Hejuru y'izo noti hariho ibiceri bigeze mu munani.

Inoti n'amafaranga y'amahinde nyinshi, ziri mu biganza by'umugore wambaye impeta iri mu ibara ry'izahabu ndetse yambaye n'agakomo ka parasitike.

Ni inzu ifite iri mu ibara ry'umweru ijyanye no kuvunjisha amafaranga, hariho ibishushanyo n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku, n'ibara ry'umukara hejuru amagambo yandikishijweho ari mu ibara ry'umuhondo.

Ni iduka rigurisha ibikoresho by'abadamu n'amasakoshi inkweto ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko bipanze ku buryo bigiye bikurikirana kandi busumbana.

Inzu yanditsweho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza foreni ekisicenji, ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, irimo intebe imwe y'umukara ndetse irimo n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, bigaragara ko ariwe utanga izo serivisi.

Intebe ziriho imisego ikikiza uwicaye ndetse akaba yayicaraho, zikozwe mu mbaho zigiye zifite utumeza turi imbere yazo tubajwe mu mbaho ndetse n'andi meza magari abajwe mu mbaho nyuma y'izo ntebe ahagaze abagabo n'abagore bazireba.

Muri gare ya Nyabugogo amatara bayacanye bigaragara ko bwije, abantu baracyari muri gare amamodoka ntabwo ari menshi cyane bigaragara ko aba bantu bashobora kuba babuze imodoka zibacyura ndetse ku ruhande hariho na bisi nini itwara abaturage.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibarizo aho babaza intebe mu bwoko bw'imbaho utumeza n'intebe zibajwe ziriho n'imyenda hari umuhanda wegeranye n'iyo nzu uwo muhanda uriho ikinyabiziga cya moto.

Ubucuruzi bw'intebe mu bwoko bw'imisego n'imbaho, intebe umubare wazo ni intebe eshatu z'ikikijwe n'utubati natwo tubajwe mu mbaho .

Igikorwaremezo cya hoteli kirimo intebe zibajwe mu mbaho ndetse n'imeza zibajwe mu mbaho, imbere hariho utubati ducururizwamo amacupa y'inzoga, ndetse n'ububiko bukonjesha bw'ibyo byo kunywa.

Utubati tubiri turi aho bakirira abaje muri hoteli iri Kigali yitwa amazina ari mu nyuguti ya ra e ga e na da, hejuru y'aho babakirira hari amasaha angana nuko aho babakirira hangana mu mubare.

Hoteri ifite ibikuta bisizwe irangi ry'umuhondo, rifite amadirishya y'ubururu abonerana kuri ibyo bikuta by'umuhondo handitsweho inyuguti M muburyo budasanzwe, iyo nzu ikikijwe ni ibiti bitandukanye ndetse byinshi.

Mu ihoteri igezweho ifite amatara manini agaragara ane, ndetse harimo imitako itandukanye iy'ibiti biteretswe mu bikombe binini biri mu bwoko bw'ibirahuri.

Igitanda kiri mu ihoteri gifite imisego y'ubururu n'amashuka y'umweru, iruhande rwacyo hari uruganiriro rugizwe n'intebe ebyiri, n'akameza kabajwe mu mbaho, kandi igitanda gikikijwe n'amatara abiri.

Ubwogero rusange bwo mu ihoteri, bukikijwe n'imitaka myinshi, munsi y'imitaka intebe zibajwe mu mbaho, ndetse n'imeza hagati y'izo ntebe.

Ifoto y'abana b'abanyeshuri bicaye muri sale, imbere yaho hakaba hari umuyobozi urimo kubaha amabwiriza.

;Ibiryo biri gutangirwa mu i hoteli biri ku meza birimo: inkoko, amakaroni, ndetse n'imboga, iruhande rwabyo hariho icupa rya wino mu ibara ry'umukara.

Hoteri ifite amatara atandatu manini ndetse n'intebe z'umwenda w'umukara, ahakirirwa abagana iyi hoteri bahabwa serivisi n'umugabo ufite mudasobwa imbere ye, wambaye ikoti y'ubururu.

Resitora yo mu nzu y'ihoteli iririmo intebe zibajwe mu mbaho ndetse n'imisego y'umutuku, zikikije imeza iteguweho udutambaro ndetse n'uturahuri turimo ibiti bitoya by'icyatsi byo kugira ngo hagaragare neza, amarido yaho arafunguye.

Ameza ariho ibyokurya bitandukanye mu bwoko bwa deseri ndetse n'ibiryo bisanzwe, ibiryo bisanzwe biri mu byuma n'ibisorori byo kuguma bishyuhije ibiryo ndetse nadesteri zirimo imbuto zitandukanye nk'inanasi umuneke, amaronji ndetse na keke, urukuta rw'ahobiteretse ruriho ibishushanyo bitandukanye.

Inzu yo ku raramo bakunze kwita i hoteri, igeretswe inshuro eshatu, iriho amatara matoya menshi ndetse kuri buri gorofa hagiye hariho amadirishya maremare n'imiryango bigaragara yuko hariho n'amarido muri iyo miryango.

Igorofa rya hoteli igeretse inshuro enye imbere yayo ubwogero rusange bw'imyidagaduro ndetse n'imyitozo ngororamubiri ikikijwe n'imitaka yo kwicaramo igihe bavuye mu mazi abayakoreshaga.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Inzu itanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima n'ibigendanye nabwo, ifite ibikuta byo mu ibara rya kaki ndetse n'ibirahuri bibonerana mu mpande biri mu ibara ry'umukara.

Ibiro bikorerwamo n'ibigo by'ubwishingizi biyandikwa mu nyuguti ma, u, na a ndetse imbere hari icyapa cy'umweru cyanditseho ayo magambo, gifite n' ikindi kimenyetso cyo mu ibara ry'umuhondo.

Inyubako ikorerwamo itangirwamo serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima cyanditseho mu ibara ry'ubururu, hejuru ifite imiryango ibonerana hetoho amagambo a r ebyiri i a na na za.

Amazu akodeshwa n'imishinga itanga serivisi z'ubwishingizi harimo sonerwa ndetse na ma u a zikorera i Remera hasi turahabona n'ibiro, nk'icyapa cyanditsweho ko ari ibiro bya noteri wikorera.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi, bifiteho mudasobwa zitagendanwa ndetse n'intebe zo abahakora bicaramo z'ibara ry'umutuku n'ameza y'umweru.

Ibiro by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'abantu, giherereye ku Kinamba, kitwa sonarwa. Gifite ibiro bifite umuryango w'ibara ry'umuringa weruye.

Mu nzu mo imbere, abagabo babiri baragaragara bari kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga yabo, umwarimu sako ndetse utubati bari kuyafatiramo cyangwa bari guhererwaho serivisi tubajwe mu mbaho, inyuma yabo turabona abicaye na bo bategereje serivisi itangirwa aho.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi ndetse irimo na banki ya ka ca na b aho abantu batonze umurongo harimo abagabo babiri n'umugore umwe bategereje kwinjira ngo bakire izo serivisi.

Ubucuruzi bw'imitako ndetse n'imyenda y'abategarugori y'ibitenge mu isoko riri gucururizwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abasore ndetse n'abagore, umusore wambaye imyenda yo hejuru y'umutuku ndetse numugore wambaye ibitenge by'ubururu.

Isoko ricururizwamo imbuto zo mu bwoko butandukanye; imyembe, amaronji, indimu, imineke ndetse n'imboga zo mu bwoko butandukanye nk'ibishyimbo, imiteja. Riracururizamo abategarugori ndetse n'abagabo.

Icuruzwa ry'ibikoresho by'abari n'abategarugori birimo imyenda ariyo ibitenge ndetse n'ibikapu bikoranywe ibiganza.

Isoko rifunguye ryaremye, ririmo imboga zitandukanye, n'inyanya, amashu, karoti, ibitunguru ndetse biri gucuruzwa ahanini n'abategarugori. Hari n'abaje kubahahira.

Isoko riri gucururizwamo n'abagore ndetse n'abagabo, bacuruza imboga zitandukanye nk'ibitunguru, imiteja, ibishyimbo, ndetse n'inyanya, biri gucuruzwa biteretswe ku bikoresho bya kinyarwanda bizwi ku izina ry'inkoko.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye by'imboga, harimo ibitunguru by'umutuku n'iby'umuhondo, amashaza, imboga za dodo, karoti, intoryi n'ibindi.

Isoko rigeretswe inshuro eshanu, buri gorofa rigiye ririmo abaturage b'ingeri zitandukanye kandi benshi, munsi y'iyo nyubako hari imodoka ya polisi y'u Rwanda ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Isoko ricuruza imyenda ubwoko bw'amapantaro n'imipira y'imbeho ndetse n'ingofero ndetse n'ibikapu by'abari n'abategarugori, n'ibikapu by'abanyeshuri harimo abasore ndetse inkumi n'abategarugori.

ubucuruzi bw'imboga zirimo inyanya ibitunguru by'umutuku n'iby'umuhondo amavuta yo guteka amamesa ibirungo byo mu cyayi no mu biryo indimu zo kurya ndetse biri gucuruzwa numusore wambaye ingofero y'umukara nicyo hejuru cy'umukara.

Umusore n'umwari bari guhabwa serivisi zijyanye n'amafaranga kuri tefoni ngendanwa bari kwakirwa n'abantu imbere yabo hateretswe amamudasobwa atagendanwa.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho ry'amafaranga ya Emutiyeni iriho abagabo babiri n'uri kubakira.

Kiyoski ikoreramo serivisi zo kubica no kubikuza, bakura amafaranga cyangwa bayashira kuri telefoni ngendanwa bitewe na simukadi y'umuntu, aha ni iya emutiyeni umurongo w'itumanaho mu Rwanda ikaba izu isizwe n'irangi ry'umuhondo.

Ahatangirwa serivisi zijyanye n'amafaranga yo kuri terefoni ngendanwa hahagaze umugore w'ibisuko by'umutuku wambaye ishati y'umweru ifite ikora ry'umukara.

Inzu ntoya ikozwe mu byuma isa ibara ry'umuhondo ifunguye igice kimwe cyo hejuru, hirya yayo hari gutambuka abanyamaguru bagiye batandukanye, itatsweho ibyanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Akazu gatoya ko mu ibara ry'umuhondo gafunguye amadirishya atatu, iry'imbere iry'ibumoso ndetse n'iry'iburyo gafite ibara ry'umuhondo riranga ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, aha habera ibikorwa bitandukanye nk'ibitsa n'ibikuza ry'amafaranga yo kuri telefoni ngendanwa.

Urubuga rwo gucururizaho ndetse no kuguriraho hariho nimero, hariho aderesi wabasangaho, hariho n'urubuga wabandikiraho ubakeneye rugaragara ko telefoni ifashwe n'ikiganza cy'umuzungu.

Iyamamaza ry'uburyo bwihuse kandi bworoshye bwo kugura, bwo guhaha hakoreshejwe uburyo bw'itumanaho bwa murandasi ndetse bakabikugezaho nta giciro cy'urugendo baguciye, harimo ubucuruzi bw'imbuto, amavuta, ibirungo, amafu ndetse inyama n'ibindi biryo bisanzwe byo guteka mu muryango.

Inzu iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikikijwe n'amatafari ndetse yifitemo ubusitani bubiri.

Icyapa kerekana amerekezo giherereye mu mujyi rwagati komeza uzamuka uraba ugana ku kibuga mpuzamahanga k'i Kanombe mu birometero bitanu, nukata ibumoso uragana ku nyubako ya Kigali komveshoni senta mu kilometero kimwe na metero maganabiri.

Inzu igurishwa iherereye k'i Kanombe mu mujyi wa kigali, igurishwa amadolari ibihumbi mirongo itandatu na bitanu isizwe amarangi ari mo ay'ubururu ay'ibara ryijimye ndetse n'amadirishya, yayo arabonerana ku rubaza rwayo hakijwe itara rinini.

Iyamamaza ry'inzu iri kugurishwa riherereye mu murenge wa kanombe mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u rwanda, igurishwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu y'amanyarwanda ifite igipangu gikozwe mu birahuri ndetse cy'umukara mu ibara.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe ikodeshwa amadolari igihumbi na magana abiri ku kwezi, iri mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ibikuta byayo bisizwe ibara ry'umuhondo, ndetse amadirishya yayo ari mu buryo bw'imbaho ifite na parikingi igezweho.

Iyamamaza ry'inzu ikodeshwa amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda inzu igeretse gatatu ifite igipangu cy'umukara gifite ibikuta by'ubururu.

Inzu ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ubwogero bwayo bufunguye amadirishya ndetse n'imiryango.

Ikodeshwa ry'inzu ku mafaranga amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda mu gace ka Kibagabaga, baratwereka parikingi yaho ndetse n'itara riyishamikiye ku gikuta.

Ni inyubako irereye i Kigali Kabeza bari kutwereka ko ifite igikoni kigezweho, iyi nzu ikigaragara cyo iri kugurishwa kuko bari kutwereka ko ufite amadolari magana atanu mirongo itanu wabona iyi nzu, irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ahantu bashobora gutekera n'aho bashobora gukarabira, harimo n'utubati.

Inzu ifite urubaraza ruriho intebe z'imisego ebyiri n'intebe zisanzwe mu bwoko bwa palasitiki z'umukara n'ameza yo mu buryo bw'imbaho, ku gikuta hariho ibishushanyo nyarwanda ndetse hariho n'umugore umwe n'umugabo w'umuzungu, umugore ni umunyafurika.

Igurishwa ry'inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ku mafaranga miliyoni ijana na mirongo itanu y'Amanyarwanda ndetse gifite ubuso bwa magana atatu mirongo iwirindwi na gatanu.

Uruganiriro rurimo intebe z'imisego ziri mu ibara ry'ubururu, zifite imbere yazo akameza k'umukara mu bwoko bw'imbaho, hari n'imitako ya kinyarwanda iri ku nkuta z'umweru, ndetse n'ameza yimbaho akikijwe n'intebe z'imbaho aho barira.

Ubwogero bugezweho bw'ibirahuri bugaragaza n'igisahani cyo kwicaramo igihe umuntu akaraba, hatatswemo indabo ndetse ku ruhande hari ububiko bw'amavuta ndetse n'isabune zo gukoresha.

Ifoto y'abana b'abanyeshuri bicaye muri sale, imbere yaho hakaba hari umuyobozi urimo kubaha amabwiriza.

Umugabo mugufi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira usa nkivu aho arimo araseka areba umuntu uri kumufotora, inyuma ye hari icyapa kinini cyane gisa ubururu.

Inzu yo mu bwoko bwa kadasiteri, iri kugurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, iherereye mu mujyi wa Kigali ndetse mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubwogero ndetse n'ubwiherero biteye imbere birimo bigaragara mu nzu yo kubamo iruhande harimo indorerwamo ndetse n'ubukarabiro bwiza.

Inzu iri gukodeshwa amadolari ibihumbi bibiri mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda imbere yayo haparitse imodoka mu bwoko bwa karina mu ibara ry'umutuku, iyo nzu isizwe ibikuta biri mu mabara yijimye ndetse ay'ubururu ibirahuri na byo bibonerana.

Iyamamaza ry'inzu iherereye mu murenge wa kimironko, iri gukodeshwa ibihumbi magana ane. Ifite ibyumba bitatu ndetse yubakishijwe isizwe amarangi y'umuringa weruye.

Inzu igeretswe rimwe, iri mu murenge wa kimironko mu mujyi wa kigali iri gukodeshwa, iri kwamamazwa kugira ngo ikodeshwe, ifite urupangu rubajwe mu mbaho.

Iyamamaza ry'inzu ikiri kubakwa bagaragaza yuko ifite ibyumba bibiri, ari inzu ntoya ariko na none ko umuntu adakeneye kuba mu nzu nini cyane kandi ari wenyine cyangwa umuryango w'abantu bake.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Inzu iri ku isoko ryo gukodeshwa, iherereye Kabeza, ifite igipangu cy'ibara ry'umukara ndetse izitiwe n'amatafari, irakodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu iri ku isoko ryo gukodeshwa iri iherereye mu mu murenge wa Kibagabaga ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe ifite urubaraza rufite inkingi y'umuhondo.

Inzu igurishwa iherereye i Kanombe-Kigali; ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, ihagaze amafaranga ibihumbi mirongo itanu; by'amafaranga y'u Rwanda, ifiteho amapave, utwuma turi ku rubaraza tw'umukara, n'amatafari ahiye.

Utubati tubajwe mu mbaho dufatanye n'urukarabiro rw'intoki narwo rwifiteho utubati tw'imbaho; hasi handitswe amagambo agaragaza ko ari inzu ikodeshwa, ifite ubwogero bumwe ndetse n'icyumba kimwe; yishyurwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi.

Igikoni cy'inzu iherereye mu murenge wa Kacyiru mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi, ifite icyumba kimwe cyo kuraramo ndetse na kimwe cy'ubwogero.

Inzu iri muburyo bwa kadasitiri ifite amabati y'umukara ndetse n'urubaraza rufite inkuta zisizweho irangi ry'umweru, ifite amadirishya agezweho yijimye ndetse iyinzu iri gukodeshwa kimironko nk'uko byanditswe aha hasi.

Ibicuruzwa birimo imitako yo mu nzu, ari yo indabo zibitswe mu bikombe bibaye binini, by'ibara ry'umweru, izo ndabo ziri mu mabara y'umweru, iroza, n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibarizo aho babaza intebe mu bwoko bw'imbaho utumeza n'intebe zibajwe ziriho n'imyenda hari umuhanda wegeranye n'iyo nzu uwo muhanda uriho ikinyabiziga cya moto.

Icuruzwa ry'imboga harimo inyanya puravuro, karoti shufureri sereri, ndetse n'imiteja ibitunguru by'umweru n'iby'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwiza bw'abari n'abategarugori birimo amavuta, ndetse n'ibindi bikoreshwa, hahagaze abagore batatu, babiri mu makanzu y'ubururu n'undi mu ni ijipo y'umukara.

Ubucuruzi bw'imyenda y'abari n'abategarugori iri gukorwa n'abategarugori bari kuyigurisha ku bari ndetse ni amakanzu y'abategarugori ndetse n'ay'inkumi atandukanye.

Inyubako isa ifite ibikuta bishyizwe ibara ry'umuhondo n'amadirishya abonerana y'ubururu, itangirwamo serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ubwiteganyirize bw'izabukuru.

Abagabo n'abategarugori bambaye imyenda itandukanye amakoti ndetse n'amakanzu, ku bategarugori bifotoreza imbere y'icyapa kinini cyanditsweho amagambo agaragaza yuko aho hakoreraga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ubwiteganyirize bw'ahazaza mu za bukuru.

Umugabo uri gutanga serivisi z'ubuzima afashe mu kiganza kimwe, ikarita y'umuhondo izwi nka mitiwele de sante ndetse mu kindi kiganza afashemo ikaramu ari kwandika imyirondoro y'umugore umuhagaze imbere utegereje guhabwa serivisi z'ubuzima.

ikarita y'ubwishingizi bw'ubuzima bita mituweri desante iri mu ibara ry'umuhondo yatangiwe mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali na minisiteri y'ubuzima ifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Igikorwa remezo cy'inyubako itangirwamo serivisi z'u ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ubwiteganyirize bw'izabukuru, cyubakishijwe igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse gifite amadirishya y'ubururu abonerana, munsi y'iyo nzu haparitswemo ikinyabiziga cy'imodoka y'umweru.

Ikarita y'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza, y'umuhondo, yatanzwe na minisiteri y'ubuzima, intara y'Uburasirazuba, akarere ka Rwamagana, ifite nomero: zeru mirongo itatu, ijana na mirongo icyenda na kane.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibarizo aho babaza intebe mu bwoko bw'imbaho utumeza n'intebe zibajwe ziriho n'imyenda hari umuhanda wegeranye n'iyo nzu uwo muhanda uriho ikinyabiziga cya moto.

Inzu itanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima ndetse n'ubwiteganyirize bw'izabukuru, ikaba ifite amadirishya mu ibara ry'ubururu n'inkuta mu ibara ry'umuhondo, ikaba igeretse inshuro eshanu.

uUmwari cyangwa se umutegarugori ufashe mu ntoki ubwishingizi bwiwe bwa rusange bwa mutuweri de sante bubiri ari kubwerekana yambaye icyo hasi cyo mu ibara ry'iroza n'icyo hejuru cyo mu ibara ry'umweru.

Ikarita y'umugabo witwa BIZIMUNGU Jean Damascene wo mu ntara y'iburengerazuba akarere ka Rusizi, murenge wa Gihundwe, akagari ka Burunga, agashami ka Gihundwe. N’ikarita imufasha muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hirya har’ikarita y'irangamuntu ye.

Ahantu heza hasukuye by'intangarugero bigaragara ko hafatirwa amafunguro, harimwo intebe nziza ndetse n'ameza, iruhande hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa.

Inzu icururizwamo inzoga ndetse na wino zigiye zitandukanye ziri mu bikarito, inzoga zikaba na wino nazo bipanzwe mu tubati tugiye dutandukanye turi muri iyo nzu.

Utubati dupanzemo ibisuguti, shokora, amakaroni, hamanitseho udupapuro tw'umuhondo turiho ibiciro by'ibiri muri utwo tubati, utubati turi mu ibara ry'umutuku.

Ubucuruzi bw'amavuta yo guteka, ndetse n'ibirungo byo guteka, n'ibiryoshya ibiryo bitandukanye, bigeretswe mu tubati, n'amacupa ya wino, byose bigeretswe hejuru y'ibindi.

Ibyo kurya byihuse biri mu mashashi bigeretswe mu tubati biri gucuruzwa. Iruhande rwabyo turabona ibisa n’amafu ari mu mashashi y’umuhondo. Ibyo kurya byihuse byo biri mu mashashi y’umutuku, n’icyatsi ndetse n’umuhondo.